Abagabo babiri bari mu mazi, umwe yambaye isengeri y'umweru n'ingofero, bafite imifuka, bari kugaburira amafi, amafi ni amwe mu biribwa bifite intungamubiri, kandi akaba ari inyama zitagira ingaruka ku buzima bw'umuntu, amafi rero tuyifashisha buri munsi.

Amateke ni igihingwa cyo mu bwoko bw'ibinyabijumba, kikaba ari mu bwoko bw'ibitera imbaraga, amateke ni igihingwa gishobora guteza imbere ku muntu wagihinze kandi kikaba ari ingenzi mu Rwanda.

Inkwavu eshatu ziryamye, ururi hagati rufite ibara ry'umweru, ururi imbere rukagira ibara ry'umukara, ku zuru rukagira ibara ry'umweru, ururi inyuma rufite ibara ry'umukara ku mutwe, mu gituza hakaba ibara ry'umweru, urukwavu ni rwiza, rwororoka vuba,..

Ibitoki bifite akamaro kanini cyane byegwamo inzoga, bikaribwa, bikavamo, imineke, bikavamo imitobe. Ibitoki ni ibiribwa bitera imbaraga ndetse bikaba byanagira intungamubiri mu mubiri w'umuntu.

Ubunyobwa bukaranze ubunyobwa ni kimwe mu gihingwa cyo mu bwoko bw'ibinyamisogwe, gifite intungamubiri nyinshi, cyifashishwa mu biribwa bya buri munsi ndetse kikaba anari n'indyosha ryo.

Abagabo bari guhura umuceri iruhande rwabo hari abandi bagabo babiri bari kuwusarura. Umuceri n'igihingwa kikaba n'ikiribwa gikunzwe cyane mu Rwanda, cyifashishwa mu biribwa bya buri munsi. umuceri ni mwiza ufite intungamubiri.

Ingurube ziri hamwe n'inzu y'amatafari ahiye isakajwe amategura. Ingurube ni mu bumwe mu bworozi bwiza cyane butanga umusaruro kandi zikaba zitanga n'amafaranga ku buryo buhagije kandi bwihuse.

Urukwavu rufite ibara ry'umweru, ku zuru ryarwo rufite ibara ry'umukara, urukwavu ni rumwe mu matungo nyarwanda yifashishwa mu bworozi, ku buryo ayo matungo agira umusaruro uhagije, no..

Inyoni iri mu giti igiti gifite amababi atoshye, inyoni ifite ibara ry'umutuku ikagira imirizo ijya gusa n'ubururu, ikagira mu maso hasa n'umuhondo, inyoni nziza inyoni ni bimwe mu biguruka.